Inzu iriho ibara ry'umuhondo ishushanyijeho inka y'amabara y'umweru, ndetse n'umukara n'ihembe ryigororonzoye, hirya yayo mu muryango, harimo umwana wambaye ishati y'umweru n'ikabutura k'umukara, inkweto z'umukara ndetse n'amasogisi y'umutuku.

Inyubako irimo ibara rijya gusa n'ivu isakaje amabati y'ubururu. Inyubako ikorerwamo uburezi bw'amashuri y'abana b'inshuke. Ikikijwe n'ibiti by'ubwoko butandukanye. Imbere yayo hari gukinira abana bambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Imbere y'inyubako ifite amadirishya y'ubururu bwerurutse n'ibirahure bibonerana, yubakishije amatafari y'umuhondo ya mpunyu azwi nk'amatafari ahiye hasi kuri iyo nzu hariho akabara k'umukara, imbere yayo hari umumama wambaye agapira k'umutuku urimo kugerageza kurisha umunyenga, umwana mutoya w'inshuke wambaye imyenda y'ubururu.

Ikigo cy'amashuri kigali cyane kimanitsemo ibendera ry'igihugu, yubakishije amatafari ya mpunyu y'umuhondo, kiriho kandi imiryango ikinguye iri mu ibara ry'ivu, isakaje kandi amabati y'ubururu.

Ikigo cy'amashuri gifite inyubako zisakaje amabati y'ubururu bwerurutse, ifite kandi ibikuta bisize amarangi y'umuhondo ndetse n'inzugi zifite amarangi y'ubururu bwijimye, ikikijwe n'ubusitani burimo indabyo z'ubwoko butandukanye, hari kandi inzira y'abanyeshuri banyuramo y'igitaka.

Inyubako ngari cyane iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru yubakishije amatafari ahiye ya munyu, ni ishuri ryigirwamo n'abanyeshuri bo mu kiciro rusange cy'amashuri yisumbuye aho amadirishya y'iri shuri asa ubururu ndetse ari maremare cyane, abanyeshuri barimo bambaye amashati y'umweru ndetse n'amakabutura n'amajipo y'umukara.

Ikigo cy'amashuri gifite igikuta giteyeho karaamasasu, kiriho amarangi y'umweru ndetse n'ubururu, kiriho kandi urugi rwanditseho ikaze mu mabara y'umweru, n'Ikigo cya Apebu Nyamata, imbere harimo ibiti by'ubwoko butandukanye bikingirije amashuri.

Ishuri risize amabara y'umuhondo ikibaho cy'umukara cyanditseho n'ingwa y'umweru yicayemo umwarimu wambaye ishati y'amabara y'umweru haciyemo uturongo, hirya iye hateretse amakayi menshi ndetse n'impapuro, mwarimu afite ikaramu mu ntoki arimo aragerageza gukosora impapuro.

Ibikoresho bitandukanye by'umunyeshuri byifashishwa mu kwiga harimo ikaramu y'umutuku ndetse n'iy'ubururu, harimo kandi ikaramu z'igiti, harimo ibyifashishwa mu gusiga amabara, harimo ibyifashishwa mu guteganyaranya, gukuba no kugabanya imibare kizwi nk'akamashini gateranya kakanakuba, harimo kandi umukasi ndetse n'ibindi bitandukanye byifashishwa n'umunyeshuri.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye ya mpunyu, kirimo ibiti by'ubwoko butandukanye ndetse n'indabyo zitandukanye. Abanyeshuri bo muri iki kigo bahuriye hamwe bari kumva inama z'abayobozi. Bambaye imyenda y'ubururu bwijimye, abandi bambaye udupira tw'icyatsi. Aho hantu hakikijwe n'akayira karimo utubuye. Umuyobozi yambaye agapira karimo uturongo ndetse n'ipantaro y'umukara.

Abanyeshuri bo muri kaminuza batandukanye, bari mu cyumba cyagenewe kwigirwarwamo, kirimo amarangi y'ubururu bwerurutse ndetse n'umweru. Bambaye imyenda itandukanye, yiganjemo amabara y'umweru, umukara ndetse n'icyatsi cyijimye. Bari mu bikorwa by'amasomo, bari gukora imikoro bahawe. Bicaye kandi kudutebe dufite aho begamira hasa icyatsi ndetse n'amaguru y'umukara.